Farumasi aho abantu badafite za mituweri bajya kugura imiti, ariko n'ufite mituweri na we ajya kuwugura iyo adafite umwanya wo kujya kwa muganga, ku bitaro. Iyi farumasi rero kuri etajeri harambitse imiti myinshi itandukanye, kubera ko iyo ugiye kuwugura muganga aguha uwo ushaka.

Ibiti byinshi bitandukanye, hari guhinguka urusasa rudakuze neza, inyuma hari imibunda n'ibindi biti by'inturusu biri inyuma hirya, aho hantu biri ntago habagaye, bigaragara ko badaheruka kuhahinga cyangwa kuhabagara.

Umurima uteyemo ibiti by'indumbura butaka. Iki giti kirimo cyitwa gereveriya gifashaga ibihingwa kwera neza, kubera ko gifumbira ubutaka iyo amababi yacyo ahungutse.